Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo bwiza y'umweru, imbere yayo hari icyapa kiranga ubwishingizi runaka, imbere yayo kandi hari ubusitani burimo indabyo nziza cyane, harimo izatangiye kuraba.

Ikirango gishishikariza abahinzi gushyira ibihingwa byabo mu bwishingizi, umuceri ugaragara nkaho ugiye kwera ariko utari wera neza hakibura iminsi mikeya.

Icyapa kirimo kwamamaza kiri mu ibara ry'umutuku cyandikishijweho amagambo y'umweru, kiriho nimero wahamagara mu gihe waba wifuza iyi serivisi gitanga, kiriho umwana wambaye umupira w'umukara urimo utubara imbere n'inyuma, inyuma harimo utw'umutuku, imbere ni umweru, ingofero na yo y'utubara tw'umutuku ndetse n'umukara, hasi yambaye akantu gasa nk'u...

Icyapa kimanitse ahantu hagaragarira buri wese, kiriho abakobwa babiri bishimye basetse bameze neza, kiramamaza compani y'ubwishingizi bw'ubuzima.

Umukobwa mwiza cyane wasetse wishimye, wambaye imyenda y'ubururu, waba ishati umupira ndetse n'ikoboyi, yambaye amaherena, bisa nkaho arimo kwamamariza ubwishingizi runaka.

Icyiciro runaka ugeraho mu gihe ukeneye serivisi za banki, wifashishije ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone, ureba uko konti yawe ihagaze.

Icyiciro runaka kigaragaza amafaranga ufite, ayo wishyuye, buri kimwe cyose, muri serivisi zitangwa na banki ya Kigali mu buryo bw'ikoranabuhanga, wifashishije telefone.

Inkweto z'abagore zifunguye z'amabara agiye atandukanye, zikozwe mu buryo butandukanye, twavugamo nk'akabara k'umuhondo, umutuku, umweru, ubururu, umukara, icyatsi, ubururu bwerurutse ndetse n'icyatsi kibisi.

Abagabo babiri bahagaze imbere y'imodoka yikorera imizigo, inyubako igeretse inyuma yabo, umunara, bigaragara nkaho barimo kwamamariza Akagera.

Imodoka y'akataraboneka iri mu nyubako nziza, idasanzwe, idafite nimero iyiranga, isa nk'aho iri ku isoko ariko yagura igiciro cyo hejuru kubera ubwiza yifitiye.

Inoti nshyashya y'igihumbi ikoreshwa mu Rwanda yanditseho banki nkuru y'u Rwanda, iriho ibirunga n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amasambusa akoze mu nyama, ari ku gasahani gasa nk'ubururu hejuru yameza asa neza cyane, afite amabara y'umuhondo ndetse nuwa keru.

Umugabo n'umukobwa bari mu nzu icururizwamo ibinyobwa bidasembuye, bikozwe mu mbuto zigiye zitandukanye, intebe isa nk'ubururu, ameza meza, umukobwa ufite amafaranga mu ntoki, bisa nk'aho agiye kugarurira umukiriya wamuguriye.

Intoki zifashe telefone, ikaba iri mu kwerekana uko ushobora kuba wakohereza amafaranga cyangwa ukayakira avuye kuri banki runaka akakugeraho.

Igikorwa cyo kubara amafaranga, habanje gutandukanwa amoko yayo, mu buryo bwo kugira ngo byorohe kuyabara, haba amadorari ndetse n'andi moko kugira ngo byorohe kuyabara bitagoranye.

Inyubako nziza ifite imiryango y'ubucuruzi, ikaba ikinguye, buri wose ukaba umanitseho icyapa kigaragaza ibuwukorerwamo n'igihe bikorerwa.

Igitanda kinini, kigari ndetse kirekire, gisize verine isa n'umutuku, gifite isaso y'umweru na yo nziza, hirya ku ruhande hari udutebe, ameza n'ibindi bitanda.

Inyubako ubona ko yubatse neza yakwifuzwa na buri wese kuba yayibamo cyangwa se akayigura, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'amoko menshi nk'ameza, intebe, utubati dukoze mu buryo butandukanye wagura ku giciro ubona ko kiri hejuru cyane.

Intebe yegamirwa ikozwe mu buryo bwiza bunogeye amaso, akabati kameze neza gafite imitako hejuru hateretseho akantu k'akarimbo kakagira keza.

Inyubako nziza cyane nini cyane kandi ndende, ikikijwe n'urwogero, aho abantu bajya kuruhukira iyo bananiwe cyangwa iyo bamaze kunywa nk'agacupa cyangwa imiryango runaka ije kwiganirira.

Ni akazu ka emutiyene k'umuhondo, kariho ibyapa byinshi mu bijyanye na serivisi zose za emutiyene, mo imbere harimo umukobwa, ubona ko ari kuganira n'umugabo uje kumwaka serivisi.

Umuhanda munini cyane wa kaburimbo usa neza urimo imodoka nziza cyane, ibyapa biyobora abagenzi, inyubako nini y'ubwishingizi n'ibiti bigaragara neza cyane n'abantu barimo gutambuka.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Icyumba cyiza cyane kinogeye ijisho cyakwifuzwa na buri umwe wese kuba yagikoreramo, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'intebe isa umukara, imashini isohora impapuro y'umweru, impapuro zisa nk'umuhondo ziri mu bwoko bwa simba, inzugi z'umweru ndetse n'ibirahure bibonerana.

Inzu nziza cyane irimo ibiro by'umukozi runaka, harimo intebe ebyiri z'umukara, ameza ameze neza, ateretseho agacupa k'amazi, urugi rusa n'umweru n'utundi tubara tw'umutuku.

Inzu nziza irimo abantu batatu, harimo abagabo babiri umwe arahagaze undi aricaye n'umukobwa umwe uhagaze, irimo ibyapa byamamaza ubwishingizi runaka n'ururabyo rusa icyatsi.

Umukobwa wishimye cyane ndetse n'umugabo umuteruye bari mu kwamamariza banki runaka mu mpera z'icyumweru ee bagaragaza ko banki ari iyabaturage mu bihe byiza.

Urupapuro rwa banki y'Urwego rusaba inguzanyo, rugaragaza buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo ube wahabwa inguzanyo muri iyi banki, uwabanje kubyuzuza.

Isoko ririmo imbuto zigiye zitandukanye harimo ibinyomoro, inanasi, amapapayi, imyembe, hakaba n'umugore bigaragara ko urimo kubitondeka abishyira ku murongo, ikintu ku kindi.

Isoko ririmo ibicuruzwa by'ingeri nyinshi, twavugamo nk'amashu, inyanya n'ibindi bigiye bitandukanye, harimo abantu, umudamu uhetse umwana n'undi mudamu ushobora kuba na we arimo gucururiza inyuma gatoya.

Agasoko k'ibiribwa bigiye bitandukanye hari umufuka w'ibishyimbo, hari umufuka w'ifu runaka, ibaseye irimo imineke ihiye, agatebo karimo inyanya zitukura, ibase irimo amageri, agakapu k'umwenda, igitenge hasi, ibasi ikaba iteretse ku kameza n'umugore wicaye iruhande rwayo.

Umukobwa n'umugabo barimo kureba muri terefone, bisa nk'aho umugabo ari gusobanurira uyu mukobwa byinshi ku bijyanye n'ifatabuguzi rya MTN, abakobwa babiri b'abana bahagaze ahantu barimo kubitegereza.

Umugore ufite telefone yanditsemo vuba vuba, ikaba irimo abantu babiri, umukobwa ndetse n'umuhungu na moto, bisa nkaho ari ibihembo bihabwa uwatsindiye vuba vuba iyo ngiyo.

Umunyonzi utwaye igare risa n'umukara urimo utubara tw'umweru, wambaye ishati isa n'icyatsi, wambaye casque isa n'icyatsi cyerurutse, yambaye amarinete, uhetse umuzigo usa n'icyatsi cyerurutse. Ahantu hejuru handitseho amagambo avuga ngo vuba vuba.

Inzu nziza eshatu zubatse mu buryo bwiza zikodeshwa, imbere y'imwe muri zo yo hagati, hakaba hari ubusitani burimo indabyo z'icyatsi nziza, ziboneye ijisho.

Inzu nziza yubatse mu buryo bwiza igeretse, ifite igipangu gisa neza, ifite amabara y'umweru ndetse n'umukara, igipangu kinini gifite urugi rusa nk'umukara, irakodeshwa i Kigali ahitwa Kimironko.

Inzu yubatse mu buryo bw'uruhande rumwe, ifite amadirishya atukura n'ibirahure, ikagira ubusitani imbere yayo burimo ibyatsi bitoshye n'ibiti, igurishwa miliyoni cumi na zirindwi.

Inzu yubatse neza cyane nziza iboneye ijisho isize amabara y'ubururu umuhondo ifite ibirahure n'inzugi zifunguye, ikaba ikodeshwa aherereye i Kigali Kicukiro ifite ibyumba bitatu byo kuryamamo, ibyumba bibiri by'ubwogero, ikaba ikodeshwa ibihumbi maganane ku kwezi.

Inyubako nziza irimo ibyumba byo gukodesha, imbere yayo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, iherereye ahitwa Nyarutarama, mu Mujyi wa Kigali.

Inzu yubatse mu buryo bwiza, kandi yubatse ahantu heza, ifite amarangi agiye atandukanye, isakaje amabati y'umutuku, imbere yayo harapavomye irimo kugura miliyoni ijana, iherereye i Kanombe mu Mujyi wa Kigali iragurishwa.

Inyubako zigeretse zisa neza, ubona ko zibereye amaso kuba umuntu yazibamo cyangwa se yazikoreramo inama, zifite amabarab agiye atandukanye, yaba umweru, umukara, umutuku n'umuhondo.

Isoko cyangwa se iguriro ry'ibintu bitandukanye, ririmo abantu b'ingeri zose haba abakobwa, abagore n'abandi bagiye batandukanye, bari mu kugerageza kumvikana n'abagurisha ku bicuruzwa runaka bishimiye.

Isoko rigurisha inkweto ririmo abantu b'ingeri zitandukanye, yaba abagabo n'abagore, abaguzi n'abagurisha, harimo abinjira n'abasohoka, hakaba hari abari kumvikana ku biciro hagati y'umuguzi n'ugurisha.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nk'ibikapu bizwi nk'amashakoshi, inkweto, imikandara n'abantu b'ingeri zitandukanye, abacuruzi n'abaguzi haba abazungu, abirabura, abagabo ndetse n'abagore.

Abantu b'ingeri zitandukanye mu nyubako nziza imeze neza, hakaba harimo abagabo babiri bambaye ingofero, umukobwa umwe wambaye agatambaro mu mutwe, ufite agakapu k'icyatsi mu ntoki, hakaba undi mudamu uhetse igikapu n'undi mukobwa usutse.

Iguriro ry'ibintu bitandukanye ryahuriwemo n'abantu benshi, ubona ko bari mu gusobanuza, abandi bagura, ugurisha abasobanurira uko bigenda n'uko bikorwa.

Itsinda ry'abantu benshi, harimo abanyeshuri, ababahagarariye, ibyapa byanditseho Ejoheza, abandi bafite imipira mu ntoki, wo gukinisha intoki, bigaragara nk'aho hari amarushanwa bitabiriye.

Inzu nziza yubatse mu buryo bunogeye, ijisho irimo ibicuruzwa by'amoko agiye atandukanye, nk'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa bitandukanye.

Umukobwa mwiza wishimye mu nyubako, ufite telefone, umugabo ufite ikarita, akaba arimo kuyikoza muri iyo telefone, bisa nkaho arimo gufunguza banki cyangwa se hari nk'amafaranga ari mu kubikuza.